Ikigo cy'amashuri, gifite inyubako zitandukanye, zubatswe mu buryo bugezweho. Hari aho utuyira tugenda ducibwamo n'abanyeshuri, ndetse n'ibigega bibika amazi. Amawuwa meza afasha gutanga akayaga muri kino kigo.

Ikibuga kigari giteraniyemo abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru na kaki, ndetse n'imihondo n'umukara. Hari kandi abayobozi babo iruhande, ndetse n'ibiti bibakikije.